Umugore n'umugabo bicaye ku ntebe z'amashezi umugabo afashe umugore ku rutugu bari guseka imbere hari umujyanama w'ubuzima wambaye itaburiya y'ubururu, afite agapapuro kariho ibintu ari kubigisha. Imbere hari intebe y'isherezi irambitseho izindi mpapuro.

Abantu barindwi, inyuma hari undi muntu umwe, bahagaze imbere y'inzu isize amarange y'ubururu n'umukara, akaba ari inyubako y'ikigo nderabuzima. Aho bivuriza.

Abantu bicaye imbere hari abandi bicaye bafite za mudasobwa imbere yabo, bambaye n'amakositimu, barigukora inama. Inyuma yabo hari icyapa cyanditseho icyorezo cya maburg virusi.

Abana babiri bambaye imyenda y'umutuku hejuru, harimo umwe w'umuhungu ufite igikombe cy'ubururu ari gusukira umukobwa amazi ari gukaraba kandi uwo mukobwa ari guseka, inyuma yabo hari ibyatsi ndetse hejuru hari icyapa cyanditseho UNICEF kuri buri mwana.

Umuntu wicaye hasi yambaye ubusa ndetse nta n'inkweto yambaye, ari ahantu hasa nk'ahijimye, hirya hari inzu ifite ibikuta bisa nabi.

Umugabo w'umusaza ufite imisatsi y'umweru, yambaye amadarubindi n'agapira k'umukara, ari kumwe n'umugore ufite imisatsi gakondo, ari kumwereka utuntu ndetse imbere yabo ku meza harambitse ikirahuri n'igitabo.

Inzu nziza cyane ya etaje, ifite amabara y'umweru ndetse ifite n'udutafari duhiye n'ibirahuri birirya gusa icyatsi, imbere yaho hari abantu benshi, bari gutambuka mu muhanda utari uwa kaburimbo.

Ahantu heza cyane hari mu mabara y'umweru harimo ikintu cy'ikiziga gikikijwe n'amabara y'icyatsi n'umukara, ndetse muri iyo nzu harimo amakaro nayo asa umweru.

Abasore bari mu muhanda bari kugenda biruka kuri mucaka bambaye imyenda ya siporo uwo muhanda kandi ni uwa kaburimbo urimo imirongo myinshi cyane y'umweru.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru, yambaye isaha ku kuboko, akaba afashe akaguru k'umurwayi wambaye agakabutura n'amasogisi y'umukara n'umupira w'umutuku akaba ari kugenda amuvura.

Agacupa gasa umweru kanditseho amagambo, inyuma hari amabara y'umukara cyane cyane bigaragara ko hari umwijima.

Ahantu bacuruza ibikoresho bya gakondo harimo ibibindi, inkoko, imifuka, n'utuzu twubatse mu birere, inkono z'ibyungo, ndetse n'ibindi.